Igikorwa nk'inama hari abantu bari mu gikorwa cy'inama cyangwa se bari gufata inyigisho runaka abenshi muri bo baricaye, hari icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda rubyiruko menya amateka yawe.

Abantu bane bari mu gikorwa cy'inama, begereye ameza, bafite kamera imbere yabo, umwe muri bo bafite telefone, undi arikwandika muri ajende, afite cagi imbere yiwe, bakurikiye ikiganiro runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu gikorwa cy'ubukwe cyangwa se umuco hari umugeni, hari abamwambariye, hari abafite amacumu mu ntoki bambaye nk'intore bafite n'ingabo, hari abantu bicaye bari kumywa amaji n'amazi.

Ibikorwa bya leta harimo inyubako z'amashuri abanyeshuri bigiramo, hari abanyeshuri benshi, hari ibiti, hari jeride, hari amatara, hari ibyatsi, hari umuhanda n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ibara rimwe, barimo kwibuka, bari gucana'urumuri, bari muri gahunda yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abasirikari.

Abantu benshi bateraniye hamwe, abenshi muri bo cyangwa se bose baricaye bafite amacupa imbere y'amazi begereye ameza bicaye ku ntebe z'ibara rimwe harimo abapolisi mbese bari gukemura nk'ikibazo cy'umuntu runaka baharanira uburenganzira bwa muntu.

Icyapa cyo ku muhanda cyanditseho FN ijana na mirongo ine n'umunani, hari ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo pinusi, hari indabo nziza, hari inyubako, hari umuhanda, hari ibikorwa bitandukanye.

Ahantu hateraniye abantu benshi bari mu gikorwa cy'inama cyangwa se mu nyigisho runaka hari umuntu uri kubaha ikiganiro abenshi muri bo baricaye abandi barahagaze, hari ibiti, hari indabo.

Umuntu uri gutanga inyigisho cyangwa ikiganiro ku kintu runaka, uhagaze, ufite mikoro, hari n'abandi bari inyuma b'abaturage barimo kwamamaza imbuto, harubakiye, hari ibintu byinshi bitandukanye.